Bare ni ahantu banywera inzoga. Abantu bajya bashaka kwishima niba afite amafaranga bashaka kuyanywa, baragenda bakajya muri bare bakanywa bashaka bakanabyina bajyana n'abandi bashaka inshuti zabo. Bari abantu benshi barazikunda ni nziza cyane.

Bare ni mururunywera ahantu bakundaga kujya kunywa bashonje, bakeneye ibyishimo biba ku nzoga, abagabo bagahu na bagenzi babo bakajya kunywa bare rero abantu bakundaga, bakundaga no kubyina hariywa inzoga zose n'abantu b'ingeri zitandukanye bakundaga kunywa bari no kubyina.

bare n'ahantu bacururiza inzoga ndetse na depo y'inzoga, aho abantu bagendaga bakajya kunywa bari n'abakunzi babo, bakagenda bakanywa.

Akabari ni keza, ni ahantu bacururiza inzoga hagenda urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye: abasore n'abakobwa, abagabo n'abagore bagiye kunywa cyangwa se no kwishimisha. Hakunda kuboneka indaya nyinshi.

Akabari ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo inzoga zitandukanye, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kunywa, abasohokanye n'abakunzi babo, hakunze kugaragara indaya cyane, haba hari udutebe twiza hari utumeza twiza, mbese buri wese akicara aho ashaka kandi hamubereye.

Akabari ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucuruza ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa, ku kabari rero usanga batetse ibiryo byiza cyane biryoshye, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kurya, abaje kurya ifiriti n'abaje gucuruza ibiryo.

Akabari ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo inzoga, aho usanga hari: udutebe twiza n'utumeza twiza. Haba hari utuntu dufite imitako itandukanye mbese dukurura abantu. Ku kabari rero usanga hari urujya n'uruza rw'abantu biganjemo indaya, kuko haba abagabo b'indaya n'abakobwa b'indaya usanga biganje ku kabari.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi, yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ibyo kurya cyangwa se n'ibikoresho bitandukanye, ku iduka haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje kugurisha n'abaje kugura.

Iduka n'ahantu bacururiza ibintu bitandukanye, harimo ibyo kurya imyunyu, amavuta, amasabune, hakunda kuba hari urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha ndetse n'abaje kugurisha.

Inzu y'ubucuruzi ni ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, hakunda guhurira urujya n'uruza rw'abantu baje kugura n'abaje kugurisha, ahantu bacururiza rero haba hari ibyo kurya bitandukanye: hari ibihaza, hari ibisheke, ibijumba, intebe zo kwicaraho.

Ku iduka n'ahantu hacururizwa ibintu bishya bitandukanye, ku iduka hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi bajye guhaha ibyo kurya, n'abajye kugurisha ibyo kurya ku iduka abantu bahakunda ari benshi.

Butike ni ahantu bacururiza ibintu bitandukanye abantu bajya guhahira, bagahahayo ibyo bakeneye byose byaba ibishyimbo, byaba amajeri, ibyo ni byo bahaha bakabihahira muri butike. Butike rero zungura igihugu zikinjiza n'amafaranga mu gihugu, imisoro iraboneka iyo abantu bari kujya guhaha.

Amangazine ni ahantu bacururiza ibyo kurya bitandukanye, ukajya guhaha iyo wumva ufite inzara, ukaba wabonye udufaranga ujya guhaha ibyo kurya ugahahira ku mangazinini. Urahaha icyo wifuje akaba aricyo uhahira ku mangazine, abacuruzi bakorera mu mangazine bakunda kwindika abantu, baba ari beza cyane barabakunda.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye byo kurya n'ibitari ibyo kujya, ku iduka hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha n'abaje guhahisha.

Amaduka ni inzu z'ubucuruzi zagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha, ndetse n'abaje kugurisha. Usangaga rero mu maduka hari ibyo kurya, ugasanga mu maduka hari ibyo kunywa, ugasanga mu maduka harimo ibintu byinshi bitandukanye, hari ababa bacuruza amayinite hari ababa bacuruza ibirayi, ibishyimbo.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ibyo kurya n'ibitari ibyo kujya, ku iduka hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kugura n'abaje kugurisha.

Inzu z'ubucuruzi n'ahantu bahahira bakanagurisha ibyokurya bitandukanye cyangwa se imyenda haba hari ibintu byinshi bitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu baje kugurisha n'abaje guhaha.

Butike ni aho bacururiza ibyo kurya bitandukanye, abantu bajya kuri butike bagiye guhaha iyo babonye amafaranga, cyangwa bakajya kuri butike bagiye kugurishayo ibintu byo bejeje, kugira ngo na bo bagure ibindi bisimbura ibyo bari bafite.

Amaduka ni inzu z'ubucuruzi zagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, usanga ku iduka rero hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, baje kugurisha ndetse n'abaje guhaha, ugasanga hari nk'ibyo kurya ibirayi, ibishyimbo, imiceri, amavuta, inyanya, imyenda, ibintu byinshi bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ni ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, yaba imiti, ibyo kurya, imyenda n'ibindi byose bitandukanye haba hari urujya n'uruza rw'abantu, niba ari aho bacururiza imiti haba hari urujya n'uruza rw'abantu, bari buhaha imiti ndetse n'abaje kuyicuruza niba arahacururizwa ibyo kurya haba hari urujya n'uruza rw'abantu baje gucuruza n'abaje kugura.

Isoko ni ahantu bacururiza ibyo kurya bitandukanye. Amangazine bacururizamo imbuto, imyunyu, amafu n'bintu bitandukanye byokurya babicururizaga mu mangazine. Abaturage bajya guhahiramo ibyo bifuza.

Iduka ni inzu yawe igenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ku iduka rero haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baba baje guhaha ndetse n'abaje kugurisha, aba hari amagare aje gutwara cyangwa se gupakira imizigo, n'ibyo bahashye ndetse n'abanyonzi bashaka gutwara abantu, haba hari n'abashinzwe umutekano kugira ngo habaye ikibazo bagikemure.

Iduka ni inzu yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Ku iduka haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kugurisha ndetse n'abaje guhaha haba hari ibishyimbo, ibirayi, ibijumba, amasaka, ifu y'igikoma, ndetse n'ifu ya kawunga yo mu bigori. Ugasanga rero abantu babikora baba ku iduka, bagira amafaranga menshi.

Amangazine naho bacururiza ibintu bitandukanye, abantu bajya guhahira ibyo kurya bifuza bakajya guhahirayo, imyunyu n'amavuta, amangazine afite umumaro munini ku gihugu no ku baturage, kuko bajyana yo imyaka yabo bakazana amafaranga.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye, aho ushobora gusanga barayishyizemo salo, abantu bakajya baza bakabogoshya cyangwa se ikaba irimo ibyo kurya, abantu bakaza kuguriramo ibyo kurya abandi bakaza kugurisha ku iduka haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye.

Urusinga ni rwiza cyane bifashishaga bari kwesitara umuriro w'amashyanyarazi, abantu bajya kurugura bakagenda kurwesitaza kugira bajye baracana amashanyarazi urusinga ni rwiza cyane abantu benshi bararukunda.

Inzu z'ubucuruzi ni nziza zikunda kubonekamo ibyo kurya, hakunda kuba hari abantu urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, abaje guhaha abaje kugurisha bose baba bahahuriye, ugasanga baranezerewe kuko buri umwe wese aba abonye icyo yari akeneye, uzanye ibyokurya akabona amafaranga, n'ufite amafaranga akabona ibyokurya.

Inzu z'ubucuruzi ni inzu zagenewe gucururizwamo ibintu bitandukanye, imyenda, matera, ibyo kurya, aho usanga hari urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha n'abaje gucuruza, abaje kugura matera n'abaje kuzigurisha, abaje kugura imyenda, abadozi bategereje baje kugura imyenda ngo babadodere.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ku iduka hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje guhaha, abaje kugurisha buri wese n'icyo akeneye, aba yaje.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, nk'imipira ibikoresho byinshi bitandukanye, cyangwa se ibyo kurya, usanga ku iduka rero hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje guhaha, abaje kugura, n'abaje kugurisha ku iduka.

Iduka ni inzu yagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, aho usanga hari ibintu byinshi byo kurya. Amavuta, umunyu, ibibiriti, ibirayi, ibishyimbo, ibintu byinshi bitandukanye biboneka ku iduka. Hakaba hakunda kuba urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha ndetse n'abaje kugurisha.

Iduka ni ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye, amagare, imyenda, inyejoro, imirunga. Hakunda kuba hari urujya n’uruza rw’abantu benshi batandukanye baje kugura ibintu.

Matera ni uburiri bwo kuryamira, aho usanga muri iki gihe abantu benshi bakunda kuryama kuri matora. Matora ni nziza cyane rero, umuntu uryamiye kuri matela aba agaragara nk'umuntu usobanutse, umaze gutera imbere. kandi matera ubu zisigaye zigura makeya, aho umuturage wese, buri rugo usanga rurimo matera.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye: iby'ubwiza ,ibyo kurya , imyenda, intebe . Rero ku iduka haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane ,abaje guhaha n'abaje kugurisha.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi, yagenewe gucuruza ibintu bitandukanye: ibyo kurya, imyambaro, n'ibindi byose bitandukanye. Ku iduka rero, uhasanga urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha cyangwa se abaje kugurisha.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, kohereza no kwakira amafaranga afasha abaturage bakoresheje telefone, ku iduka haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje muri gahunda zitandukanye kugurisha no kugura.

Iduka ni inzu yagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye. Usanga ku iduka rero hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, bazanye ibyo kugurisha ndetse n'abaje guhaha. Haba hari ibyo kurya; ibirayi, ibishyimbo, imyunyu, amavuta n'ibindi byinshi bitandukanye. Iduka rero ryinjiza amafaranga ku gihugu no ku bantu, kuko ritanga imisoro, ndetse na nyirubwite rikamwungura.

Butike ni ahantu bacururiza ibintu bitandukanye byiganjemo ibyo kurya, abantu bajya guhahira kuri butike umunyu, amavuta ibintu byose bumva bashaka bakajya kubishakira kuri butike ziba zibegereye, cyangwa n'iyo ziba ziri kure ariko zirimo ibyo bakeneye, bajya kubishaka kuri butike butike ni ingirakamaro.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gukorerwamo no gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ku iduka hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi abaje guhaha abaje kugurisha abo bose bababari ku iduka.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ibyo kurya, mu gufasha abaturage kohereza amafaranga, no kuyabika. Ku iduka rero hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi, baje kugurisha n'abaje kugura.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Nk'imineke, inanasi, amarongi, indimu. Ku iduka rero haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi. Abaje guhaha n'abaje kugurisha.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu bitandukanye nk'ibyo kurya se, ibikoresho by'itumanaho, cyangwa se bagacururizamo ibinyobwa. Iduka riba ririmo ibintu byinshi. Hariho urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, baje kugura n'abaje kugurisha.

Iduka ni inzu yagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ku iduka rero usanga hari ibyo kurya, ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, amasaka, umuceri n'ibindi byinshi bitandukanye, ku iduka rero uhasanga urujya n'uruza bw'abantu, abazi kugura ndetse n'abaje kugurisha.

Busheri ni ahantu bahahira inyama, iyo babaga inka barangiza bakazijyanamo inyama kugira ngo zidapfa, cyangwa se ngo zigage, abaturage bakagenda bajya kuzihaha ziri kuri busheri , amangazini yagenewe kubikwamo inyama.

Iduka ni inzu yagenewe gucururizwamo ibikoresho bitandukanye, byaba ibyo kurya, imyunyu n'amavuta, ibikoresho by'itumanaho, nk'aho bacuruza amaterefone, aho abacururiza amaradiyo, amatara, n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi bitanga amafaranga ahagije ku bantu babikora.

Iduka ni inzu z'ubucuruzi zagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye: ibyo kurya, imyenda, ibikoresho byo mu ngo, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha n'abaje kugurisha.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi kandi bitandukanye, nk'ibyo kurya amasaka, ibishyimbo, ibirayi, ibijumba, imyunyu, amavuta, hakunda kuba hari uru n'urujya rw'abantu benshi, baje guhaha n'abaje kugurisha.

Iduka cyangwa inzu y'ubucuruzi ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye: ibyo kurya, imyunyu, amasabune, bitewe n'igihari. Hakunda kuba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha ndetse n'abari kugurisha. Haba hari ibirayi, ibishyimbo, amasima, imiceri, ibintu bitandukanye.

Iduka ni inzu yagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye. Ibyo kurya usanga harimo: nk'ibishyimbo, ibirayi, amasaka, ibigori, ifu y'igikoma, amavuta, ibitunguru, inyanya n'ibindi bitandukanye. Ugasanga hari abantu bacuru hari ababa bohereza n'amafaranga ku matelefone, haba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu bitandukanye. Ku iduka hahurira urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kugura n'abaje kugurisha.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi, yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye byo kurya, amavuta, imyenda, ibintu byinshi, ku iduka rero hahora hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje guhaha ndetse n'abaje kugurisha.

Imyenda ni myiza idufasha mu bintu byinshi, turayambara tukagenda duhishe ubwambure bwacu ,umuntu akumva amerewe neza. Abantu tugomba kwambara imyenda ni yo mpamvu bayikunda, nta muntu udakunda imyenda ,kandi imyenda ni ingirakamaro buri wese yayikunda.

Iduka n'inzu y'ubucuruzi, yagenewe gucuruzwamo ibintu bitandukanye, hashobora kuba harimo n'amacumbi bacumbikira abantu bwiriyeho, bakabacumbikira bwacya bagataha, hakaba harimo n'ibyorya.

Inzu z'ubucuruzi ni nziza cyane abantu barazikunda kuko ziba zifite umumaro cyane cyane utubari rero utubari twifashishwa ku bantu batandukanye. Hakunze kuba hari urujya n'uruza rw'abantu, hari inzoga. Abantu benshi rero badakunda izo nzoga hakunda kuboneka indaya, abasore n'abakobwa, abagabo.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucuruzwamo ibintu byinshi bitandukanye, ibikoresho by'ubwubatsi ndetse hakaba hakunda kuba urujya n'uruza rw'abantu benshi bajye kugura n'abajye kugurisha.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, no gutangirwamo serivisi nyinshi nk'iz'irembo. Usanga ku iduka rero hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kugura no kugurisha, abaje gukoresha serivisi zitandukanye.

Iduka ni inzu y'ubucuruzi yagenewe gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. Nko kudoderamo cyangwa se gucururizamo ibintu byinshi. Ku iduka hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi, baje kugurisha, abaje guhaha, niba ari aho ubudozi, abaje kudodesha n'abaje kudoda.

Amangazine ni ahantu bacururizaga ibintu bitandukanye nk'imyunyu, amavuta, ibishyimbo, ibirayi, ibintu byose bitandukanye byo kurya. Abantu bajya guhaha rero, bakajya guhahira kuri ayo mangazini.

Inzu z'ubucuruzi, ni inyubako zagenewe gucururizwamo ibintu bitandukanye, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, baje kugurisha cyangwa se kugura ibintu bitandukanye, hari abaje kugura amavuta abandi baje kuyagurisha...

Iduka n'inzu y'ubucuruzi yagenewe gucuruzarizwamo ibintu bitandukanye, aho usanga harimo ibyo kurya imyunyu amavutaba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi bajya guhaha ndetse n'abaje kugurisha amagi, usanga hari amagi ugasanga hari imineke imbuto byinshi.

Iduka ni inzu zagenewe gucururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Ku iduka rero usanga hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kugura ndetse n'abaje kugurisha. Ku iduka wahasanga ibyo kurya: nk'ibishyimbo, ibirayi, amasaka ndetse n'amajeri, kandi ku iduka ushobora kuhasanga ibikoresho by'itumanaho: nk'amatelefone, amaradiyo n'ibindi byinshi. Haba hari ibintu bitandukanye

Igiterane ni nk'ubwitange bubera mu nsengero zitandukanye bitewe n'imyemerere yabo, aho haba habaye igiterane gihuje abantu benshi bahuje imyemerere, hagamijwe gukusanya amafaranga azakora umurimo runaka, ujyanye n'ijambo ry'Imana nk'uko baba bagiye kubaka urusengero, cyangwa se bagiye kugura ibyuma byo gucuranga.

Ikimina ni abantu bishyira hamwe bagamije kwiteza imbere, ugasanga ari nk'ikimina cy'ubuhinzi, ikimina cyo kugurizanya amafaranga, ikimina cyo kwiteza imbere bashingiye mu gutanga imbuto, abantu bari mu kimina rero bajya bakunda kugira intego imwe ibateza imbere.

Inzu ni inzu z'ubicuruzi zitandukanye, aho usanga zikorerwamo ibintu bitandukanye nk'ubucuruzi, izindi ari amacumbi, amacumbi y'abantu, roresitora, inzu zicuruza ibyo kurya, aho usanga abantu bajya gushakamo ibyoku kurya n'amacumbi yo kuraramo, kunyweramo.....

Inzu z'ubucuruzi ni nziza cyane, zikunze kwifashishwa mu bintu bitiandukanye ,nko guteka aho usanga hari inzu batekeramo, abantu bakaza kugura ibyo kurya bihiye, abandi baba baje kubiteka, hakaba n'abaharaye bwabiriyeho ,bakajya gucumbika muri izo nzu z'ubucuruzi zagenewe guteka no gucumbikira abantu.

Inzu z'ubucuruzi ni ahantu hacururirizwa ibintu bitandukanye, hashobora no kuba amazi y'ubucuruzi bw'abantu n'ibintu. Aho usanga ari inzu zitekerwamo ibyo kurya abantu bakaza bakarya hari inzu zibamo abantu aho abantu baza.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye ni ibikorwaremezo, bigaragaramo inzu nk'izitekerwamo ibyo kurya abantu bakaza bashonje, bakajya ahahangaha ku nzunze z'ubucuruzi hakunze kugaragara abantu batandukanye, urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka ibyo kurya n'abaje kurya.

Ibikorwaremezo; mu bikorwaremezo harimo: inyubako amahoteli; amahoteli n' inganda. Amahoteli bayifashisha bari gucuruza ibintu bitandukanye cyane cyane ibyo kurya, bajya bacumbikimo n' abantu. Abantu bacumbika mu mahoteli wenda habereyemo ubukwe cyangwa basohokanye n' abakunzi babo bakinjiza amafaranga.

Hoteli ni inzu z'ubucuruzi zagenewe gucururizwamo ibintu bitandukanye no gucumbikira abantu, kuri hoteli rero hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi.

Isoko ni ahantu hagenewe gukorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye nk'ibyo kurya, nko kuhacururiza ibitoki, ibitoki ugasanga bari kugurisha ku giseri cyangwa se uyafite akakigura cyose. Ugasanga rero ku isoko haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye abaje guhaha, ndetse n'abaje kugurisha bashaka amafaranga.

Isoko ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, hakaba nk'ibyo kurya, ibyo kunywa, ugasanga hari urujya n'uruza rw'abantu, noneho nk'isambusa ni imigati iba ikoreshejwe ifarini n'inyama, cyangwa se mo imbere hari ibirayi, isambusa rero ziraryoha cyane, abana barazikunda kandi zitanga amafaranga.

Abakanishi n'abadozi b'inkweto, ni beza cyane ni abantu b'ingirakamaro, kuko iyo urukweto rugucikiyeho bakarukododera ,wumva uguwe neza iyo wari utangiye kugendesha ibirenge bakarukudodera ,ni beza cyane rero turabakunda nabo nabumumaro mu buzima bwa muntu.

Isoko ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye. Nko gucuruza imyenda, gucuruza matera, bagacuruza amabase, amasafuriya, bakahacururiza ibikapu, ibyo kurya, ibirayi, ibishyimbo, amakaroti, inyanya, n'ibindi bitandukanye. Ku isoko rero haba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baje guhaha ndetse n'abaje kugurisha.

Isoko ni ahantu hahurira urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bagiye kugurisha cyangwa se kugura ibintu bitandukanye. Nko kugura amavuta, kugura imigati, kugura imyunyu no kugura ibintu bitandukanye.

Isoko ni inyubako yagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, aho usanga harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, hari imyenda yo kwambara, inkweto, ugasanga hari ibikoresho by'itumanaho, amaradiyo, amaterefone, insinga zo kwesitara, amatara, n'ibindi bitandukanye.

Isoko riri mu bikorwa remezo, aho bacururiza ibintu bitandukanye, hakaboneka inyungu ku baturage no ku gihugu, abaturage iyo bajyanyemo ibicuruzwa byabo babona amafaranga bagatanga n'imisoro, imisoro ikajya ku nyungu z'igihugu, rero isoku ni ryiza cyane ridufitiye akamaro kanini.

Isoko ni ahantu hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya, iby'ubwiza, haba hari ibiseke, ibikapu , haza rero urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha n'abaje kugurisha.

Isoko ni ahantu habera ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye byinshi, ibyo kurya, amatungo, hakunda kuba urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, abaje kugurisha ibintu, abaje guhaha, mbese isoko ni ahantu haba hateraniye abantu benshi cyane.

Isoko ni ahantu hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, harimo nko kuhacururiza imyenda, ibikapu, matera, n'ibyo kurya. Ugasanga hariyo amavuta yo guteka imitobe yo kunywa kandi ku isoko usanga hari ibihaza bimeze neza cyane biryoshye amavoka, haba hari n'abantu bacuruza amayinite.

Isoko ni ahantu hagenewe gucururizwa, hagacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, ku isoko hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje kugura n'abaje kugurisha ibintu bitandukanye.

Isoko ni ahantu habera ubucuruzi butandukanye bw'ibintu bitandukanye, nk'ibikombe, indobo, amasafuriya, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye , abaje guhaha n'abaje gucuruza, abaje guhaha amasafuriya, abaje kugurisha amasafuriya, baje guhaha ibikombe, n'abaje kubicuruza, abaje guhaha mu base n'abaje kuyagurisha.

Ubucuruzi bw'ibiribwa ni bwiza cyane abantu bakunda imboga za karoti, inyanya, intoryi n'imiteja ndetse n'ibitunguru, bakunda kugira ubuzima bwiza ntabwo bakunda kurwaragurika kubera y'uko baba baririnze indwara.

Isoko ni ahantu hagenewe gucururizwa ibintu byinshi bitandukanye, ku isoko rero hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha, abaje kugurisha, ku isoko hakunda kuba hari abantu benshi.

Isoko ni ahantu hagenewe gucururizwa ibintu bitandukanye: inyanya, intoryi, ibitunguru, ibihaza, amashu, n'ibindi bitandukanye, usanga rero ku isoko hahurira urujya n'uruza rw'abantu baje kugurisha n'abaje kugura, isoko ritanga amafaranga, ni byiza cyane.

Isoko ni igikorwa remezo, bakoresha mu buryo bwinshi butandukanye bacuruzamo ibintu, abaturage bajyanamo ibintu byabo bakabigurisha, na bo bagahahamo ibindi. Rero isoko ni ingirakamaro mu bukungu bw'igihugu, ndetse n'ubw'abaturage ku giti cyabo kuko ritanga amafaranga.

Isoko ni ahantu bahahira ibyo kurya bitandukanye, haba hari urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha ndetse n'abazanye ibyo guhahisha, hari ababa bazanye ibitunguru, kugurisha ibitunguru n'abaje kugura ibitunguru, abazanye imineke n'abaje kuyihaha, abazanye imyembe n'abaje kuyihaha.

Isoko ni ahantu habera ubucuruzi, ahagurirwa ibintu bitandukanye, hanacururizwa ibintu bitandukanye, usanga hari urujya rw'abantu n'ibintu, aho abantu baba bazanye ibintu bicuruzwa mu isoko, abandi baje guhaha ibintu bitandukanye nk'imikeka, imyenda, bagahaha, abandi bakaza gucuruza imikeka.

Isoko riri mu bikorwaremezo by'igihugu bifasha abantu mu iterambere, ndetse n'iterambere ry'igihugu, abantu bajya guhahira mu isoko imyenda n'ibindi bintu byose bitandukanye ,amavuta, ibyo kurya. Abantu bajya mu isoko rero bafite amafaranga bazana icyo bifuje cyose ,kuko mu isoko kiba kiriyo, rero isoko ni ryiza cyane.

Isoko ni ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, haba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kugurisha n'abaje kugura ibintu bitandukanye, nk'amashu, imyenda, ibyo kurya bitandukanye.

Isoko riri mu bikorwaremezo ,aho usanga isoko ari ingirakamaro cyane. Amasoko ni ingirakamaro cyane mu kuzana ibicuruzwa bivuye hirya no hino, abantu bajya guhaha bakabibona ku buryo buboroheye, ndetse hagatangwa, hakaboneka imisoro n'amahoro ku gihugu, n'abaturage bajya muri iryo soko bakabona ubuhashyi ku buryo buroheye.

Isoko ni ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye, hakunda kuba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, baje guhaha ndetse n'abaje kugurisha amaterefone, ibikoresho by'itumanaho, imigozi yo gucaginga, haba hari ibintu byinshi bitandukanye mu isoko n'ibyo kurya byose.

Isoko, ni ahantu hagenewe gucururizwa ibintu bitandukanye ibyo kurya, hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha ndetse n'abaje kugurisha inyanya se, ibitunguru ibintu bitandukanye

Isoko ni ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye higanjemo ibyo kurya, imyambaro, amakara, ibintu byinshi bitandukanye, gombo rero ni ibiribwa byo bikiza indwara, amagi ni meza atuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Isoko ni ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye; ibyo kurya, imyenda, umukweto n'ibikoresho by'itumanaho. Rero imyembe irakundwa cyane. Abana barayikunda, avoka na zo zirakundwa cyane, n'inyanya, intoryi zo ni akarusho kuzishyira mu biryo.

Isoko ni ahantu habera ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye. Hakunze kuba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kugurisha, ndetse n'abaje guhaha ibihumyo. Abantu barabikunda kuko biryoha cyane. Tungurusumu na zo ni nziza, abantu barazikunda kuko n'ikirungo kiryoshya ibiryo. Amavuta na yo ntakabure mu rugo atuma ibiryo biryoha.